Umugabo ukiri muto, imbere ye hicaye umugore, ndetse n'umwana. Biragaragara ko ari kumuha ubujyanama runaka, kuri serivisi runaka zitandukanye. Serivisi zitangirwa aho abaturage batuye, ndetse yewe n'aho abo bayobozi bakorera.

Ku iriba ni ahantu dusanga ivomero rikura amazi kure hasi cyane. Hari abagore batatu baje ku iriba. Hari babiri bari gukururisha icyuma kugira ngo amazi azamuke ava hasi, hari n'undi uri kuvoma. Kuvomera ku iriba, bisaba imbaraga. Ntiwahajya uri umwe ngo ubashe kubona amazi mu buryo bworoshye.

Umwana muto uri koga intoki yambaye ishati y'icyatsi iruhande rwe hari indobo y'ubururu, birasa naho yaje kuvoma amazi yo gukoresha murugo, ararangaye cyane inyuma ye hari ibiti byinshi.

Umugore uri gukaraba intoki, akoresheje kandagira ukarabe. Tuzisanga ahantu hadateye imbere, nko mu nkengero z'umujyi, aho iba iteretse imbere y'umuryango w'ubwiherero, kugira ngo uva mu bwiherero, abanze akarabe intoki n'amazi meza ndetse n'isabune.

Iki ni ikirango cya UNICEF mu ibara ry'ubururu, hariho amagambo UNICEF yanditse mu inyuguti nini z'umweru, hamwe n'ikimenyetso cy'umwana n'umugore mu ishusho y'Isi bifatanye n'amababi y'igiti, hepfo hari amagambo asobanura intego ya UNICEF.

Kwa muganga hari izindi serivisi tuhasanga, harimo nk'izo gupima ibiro by'abana, ikizigira cyabo ndetse n'uburebure bwabo. Ibyo byose bifasha muganga kumenya imikurire y'umwana niba ari myiza cyangwa niba ari mibi umubyeyi akagirwa inama y'uko yakwita ku mwana we.

Ni umugore ari kumwe n'abana benshi. Yambaye bijyanye n'umuco w'igihugu ke. Abana barishimye, yewe banezerewe no kuba bari kumwe n'uyu mubyeyi.

Abana bakiri bato bicaye hasi bararambirije. Hari umumama iruhande rwabo, afite inkongoro irimo amata ari kugenda asomesha buri umwe. Iruhande rwe, hari umusirikare wambaye imyenda ya gisirikare, ufite inkongoro, na we yiteguye kubasomesha kuri aya mata. Iki ni igikorwa cyiza cyo kurwanya imirire mibi mu bana bakiri bato.

Itsinda ry'abantu batandukanye bahagaze ku murongo, muri bo harimo abaganga babiri bahagaze imbere y'icyumba cy'inama. Iruhande rwabo hari ifoto iriho umukobwa isobanura ibintu bitandukanye.

Uyu ni umubyeyi uhetse umwana ukiri muto, uyu mubyeyi ari ku iriba yaje kuvoma amazi ariko mbere yo kuvoma amazi yabanje koza ibikoresho yazanye kuvoma.

Aba ni abana babiri baje kuvoma amazi, harimo umukuru harimo n'umuto, aya mazi ni mabi pe nta kintu na kimwe yakoreshwa, aya mazi yatera indwara nyinshi zitandukanye harimo nk'impiswi n'izindi nyinshi zikomoka ku mwanda.

Ku iriba hahuriye abantu benshi biganjemo urubyiruko n'abana, hari umusore uri inyuma ku iriba hari n'umukobwa uri imbere ku iriba uri kuvoma amazi, umusore ari gukurura amazi ava hasi mu butaka akoresheje icyuma afite mu ntoki.

Ni abayobozi bateraniye hamwe, bari mu nama nyunguranabitekerezo. Hari amabendera abiri y'Ibihugu bitandukanye, rimwe ni iry'Igihugu cy'u Rwanda n'irindi ry'ikindi gihugu, harimo abanyamahanga.

Abana bari ku ishuri, biragaragara ko ari abo mu mashuri abanza. Barimo abakobwa ndetse n'abahungu. Bari gufata amafunguro ya saa sita, mu ishuri bigiramo. Buri wese, afite isahani ye ari kuriraho.

Abaturage, harimo abagore, harimo abagabo, bose bari guterura imifuka irimo ibintu, biragaragara ko bari gufashwa bahabwa ibintu byo kurya. Nbyiza kugoboka abaturage cyane nk'abagize ibiza, abagize ubuhunzi n'abagize ibindi bibazo bitandukanye.

Abana bato bigaragara ko biga mu mashuri abanza bari kumwe n'abarezi babo. Basuwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye barabishimiye biragaragara ko hari icyo baje kubaganiriza kidasanzwe.

Aha ni ku munsi mukuru wahariwe ugushora imari mu bijyanye n'ubuzima, hari abantu benshi batandukanye b'ingeri zose, barimo bungurana ibitekerezo mu byerekeye iyo ngingo.

Abagore bahuriye ku ivomero hari abari kuvoma hari n'abategerereje hirya kugira ngo bavome. Kuvoma amazi meza ni ingenzi. Igihugu cyacu hari ahantu hatagera amazi meza bigatuma bakoresha amazi atari meza bikagira ingaruka mbi ku buzima bwabo.

Tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe, bw'abantu b'ingeri zose, harimo nk'abana, ingimbi, n'abangavu, abakuze, ndetse n'urubyiruko, abo bose bakeneye kwitabwaho kuko ubuzima bwo mu mutwe ari igice kinini kigize ubuzima bwa muntu.

Umugore w'imisatsi inyereye, mu ntoki afite ikarita iriho urumuri. Byanditse mu ibara ry'umweru ku ibara ry'ivu. Ibi tubikoresha mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe tugeze mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana akenda mirongo ikenda na kane.

Ubwonko bw'umuntu, ni igice cy'ingenzi ku muntu, ni cyo kimufasha mu gutekereza, mu kugira ibyo akora neza, mu kubika amakuru y'ibyo yabonye, ndetse no mu kwibuka, buramutse bugize ikibazo, umuntu ntiyabasha gukora ikintu gitunganye.

Uyu niryango ugizwe n'umugabo umugore n'abana babiri, wasuwe n'abayobozi babiri barimo umukobwa ndetse n'umugabo, barakurikiye cyane bateze amatwi ibyo barimo kubwirwa n'ababisuye.

Umusore uri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, biragaragara ko ari umuvuzi w'amenyo, mbere ye ahafite ibikoresho akoresha muri ubwo buvuzi, ni icyumba cyiza gifite isuku giteguye neza.

Aha ni kwa muganga hari umuganga, hari umurwayi, hari n'umufasha w'umuganga. Umuganga n'umufasha w'umuganga bambaye uturindantoki, muganga arimo arita ku murwayi aramuvura amenyo, umurwayi arasamye araryamye.

Umwana ukiri muto uri kwitabwaho na muganga, biragaragara ko muganga ari gusuzuma amenyo y'umwana kugira ngo arebe ikibazo afite abashe kumufasha, ni ingenzi cyane kwita ku menyo y'abana bakiri bato kuko iyo bakuze, bizana ibindi bibazo.

Umusore afite isume y'umweru ku rutugu afite n'urudodo mu ntoki. Birasa naho ari bwo akibyuka. Urudodo afite ni urukoreshwa mu gusukura amenyo. Ni byiza gusukura amenyo nibura gatatu ku munsi mu gitondo tukibyuka, saa sita tumaze gufata amafunguro, ndetse na nimugoroba tumaze gufata amafunguro.

Ni itsinda ry'abantu b'ingeri zitandukanye. Harimo urubyiruko, harimo abakuze, harimo abamama bafite n'abana. Aba bantu bahujwe n'ikintu runaka barishimye. Hari abicaye hasi, hari abahagaze, mbese ni urungano abenshi muri bo.

Umukobwa ukiri muto, uri kumwe na muganga, arimo aramwereka insimburangingo z'amenyo, izi zihabwa abantu bafite ikibazo cy'amenyo atameze neza, cyangwa batanayafite, bashaka kugaragara nkaho bayafite.

Muganga wambaye umwambaro w'akazi ugizwe n'uturindantoki tw'ubururu ishati y'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru. Ari kuvura umurwayi amenyo. Umurwayi aryamye ku gitanda arirabura. Ni byiza kwihutira kwa muganga mu mugihe amenyo yacu yagize ikibazo kugira ngo batabare andi asigaye mu kanwa kacu.

Ni itsinda ry'abahinzi biganjemo abagore, bahagaze mu murima w'amasaka, harimo abagabo batatu, umugore umwe amanitse agasuka hejuru, barishimye cyane.

Umukecuru n'umusaza barishimye. Ni byiza ko buri muntu yita kuri mugenzi we babana, kuko bimufasha byinshi cyane nko mu gukura mu marangamutima ndetse n'ibindi bitandukanye, ndetse bikaturinda n'agahinda gakabije.

Umugabo ukuze, uri kumwe n'undi mugore ukiri muto, biragaragara ko uwo mugore ukiri muto ari kwita ku mugabo ukuze. Iyi serivisi ni nziza mu bihugu biteye imbere, usanga buri muntu ukuze agiye afite umuntu ukiri muto umwitaho. Akamuhemba amafaranga.

Umugabo hamwe n'umugore bicaye mu ntebe, uyu mugore arasa naho ari muganga, yambaye icyumvirizo cy'umutima mu ijosi, arimo arapima umurwayi umuvuduko w'amaraso, aha hantu biragaragara ko ari mu rugo atari kwa muganga.

Umukecuru n'umusaza bari kumwe n'abuzukuru babo ndetse n'abababyariye abuzukuru, biragaragara ko batari baherukanye, bakaba bari baje kubasura muri icyo gihe, aha bari ni mu nzu.

Umwana muto, uri kumwe n'umupapa umuruta. Bari gukina, umupira w'amaboko. Ni byiza ko dukina n'abana, twebwe abantu bakuru. Bibubakamo icyizere, bikabaha gukura mu mutwe, ndetse bigatuma nabo bifuza kuzaba abantu bakuru.

Aha turi, ni kwa muganga; hari umuganga n'umurwayi. Muganga yambaye mazankano y'umweru, yambaye n'icyomvizo cyumva uko umutima utera mu ijosi. Ari kumwe n'umurwayi, arimo arapima umuvuduko w'amaraso w'umurwayi.

Umubyeyi ugeze mu zabukuru uri kumwe n'umwana muto, bari gufatanya gukina. Uyu mubyeyi afite ikibazo cy'amaguru, barishimye cyane.

Uyu ni umugore wambaye ipantaro y'iroza wicaye ku gakeka k'imyitozo ngororamubiri, arunamye arashaka gufata ibirenge bye, ari gukora mu busitani bwiza, burimo ibiti ndetse n'indabo, harasa neza hari umwuka mwiza.

Ababyeyi bakuze bari kumwe n'abana babyaye ndetse n'abuzukuru babo, barishimye cyane baje kubasura, mu rwego rwo kubereka ko bari kumwe ndetse hamwe n'abuzukuru babo barabyishimiye.

Corona virus ni icyorezo cyibasiye isi mu bihugu bitari bike. Cyateje ingaruka nyinshi. Muri icyo gihe twigishwaga uburyo butandukanye bwo kucyirinda ndetse no kukirandura burundu kikagenda.

Umugabo ukuze wambaye amataratara ndetse n'ingofero, afite urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo asobanuye ko urukingo rw'ubushita bw'inkende rwabonetse.

Aha ni mu munsi mukuru witabiriwe n'abagore benshi cyane, harimo abambaye umukara hejuru, abandi benshi bambaye umweru hejuru, barishimye cyane baryohewe n'ibirori barimo.

Iyi ni inama mpuzamahanga ya kabiri yiga ku buzima rusange muri Afurika. Yabereye i Kigali mu Rwanda. Hari umuvugizi uri gutanga imbwirwaruhame imbere y'ikirangantego k'inama. Hari na camera ifata amashusho n'intebe ziteguye ku rubyiniro ku buryo bigaragaza ko ari inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye.

Aha ni ku umunsi wahariwe kwizihizwa ubuzima ku rwego rw'isi, hari umugore wariho avuga ku byerekeranye n'urukingo rwa covide cumi n'icyenda ku isi n'akamaro k'ubuzima rwa buri muntu.

Ni mu gihugu cya Nigeria, hari abantu babiri bose bambaye udupfukamunwa, hari umuganga hari n'uwaje guterwa urukingo. Urukingo bari gutera ni urwa Kovide cumi n'icyenda.

Itsinda ry'abaganga batandatu, bambaye imyenda y'akazi, bose bambaye kimwe, inyuma yabo hari undi muganga utambaye nka bo, akenshi babyambara nk'iyo bagiye kubaga umurwayi, ni byiza kugenda birinze kugira ngo bataza kwanduzwa cyangwa bakanduza umurwayi.

Hano hari abantu batandatu umwe aryamye ku gatanda k'ubutabazi akikijwe n'abaganga babiri basa naho bari kumuha igikorwa cy'ubutabazi bwihutirwa muri ako kanya. Abandi batatu bakikije abaganga babafasha.

Umusore ndetse n'umukobwa, bifotoreje ku ishusho y'ibintu runaka, birasa naho bavuye mu mahugurwa, bose bambaye amakarita y'akazi mu ijosi, bahujwe n'aya mahugurwa.

Muganga uri ahantu hakoraniye abantu benshi, biragaragara ko aha atari ahantu kwa muganga ahubwo ni ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi, arimo arapima umukobwa ukiri muto umuvuduko w'amaraso.

Iyi ni inzu y'abarwayi, harimo ibitanda byinshi bitandukanye, harimo ameza muganga ashyiraho imiti azanye kwita ku murwayi, icyumba kigari gifite ubuhumekero.

Inzu y'ababyeyi ni inzu dusanga kuri buri kigo nderabuzima, ndetse yewe n'ibitaro bikuru, ni inzu yakirirwamo ababyeyi bagiye kubyara, bakahamara igihe gito kugira ngo abana babyaye babanze bamererwe neza.

Inzu itageretse yubatse mu buryo bushaje. Ifite inzira zifite isuku ndetse ifite n'ubusitani. Iyi nzu uyitegereje neza wabona ko aha ari kwa muganga. Hari ibikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro ndetse n'ibindi.

Aha ni mu nzu, harimo ibitanda bitandukanye, ni inzu yakirirwamo abarwayi bagiye kwitabwaho, bakitabwaho mu bitaro mo imbere badatashye ngo bajye mu rugo, bagakurikiranirwa aho ngaho, harimo imashini zitandukanye zigenda zifasha abarwayi mu buryo butandukanye, hari nk'izibongerera umwuka, hari izireba uburyo umutima wabo utera n'izindi nyinshi.

Isange one stop center. Ni ikigo cy'urubyiruko, akenshi dusanga ku bitaro by'Akarere. Umumaro wacyo, gitanga ubujyanama butandukanye ku rubyiruko, hari nk'ubugendanye n'ubuzima bw'imyororokere ,n'ubufasha ku bagize ikibazo cy'ihohoterwa, ndetse n'ubundi bwinshi.

Inyubako y'ubuvuzi yubatswe mu buryo buteye imbere. Imbere yaho hari ubusitani bwiza, ndetse hari n'akayaga. Harisanzuye nta kavuyo gahari.

Icyumba kigali kirimo inzitiramibu, ibitanda biryamyeho abana, biragaragara ko ari inzu irwarirwamo abana. ku bitaro tuhasanga inzu nyinshi zitandukanye; hari Izirwariramo abana, ababyeyi babyaye, ndetse n'abandi bantu basanzwe nk'abagabo barwaye indwara zisanzwe, ndetse n'abagore barwaye indwara zisanzwe.

Inzu y'ibitaro yakirirwamo abarwayi bafite indwara ya kanseri. Ibi bitaro tubisanga mu karere ka Burera, ahitwa i Butaro. Hari abarwayi benshi, cyane cyane abafite ikibazo cya kanseri.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi. Serivisi z'ubuvuzi ziboneka ahantu henshi mu gihugu cyacu, hari izitangwa na Leta ndetse n'izitangwa n'abikorera. Inyinshi ziratandukanye bitewe n'uwo zigiye guhabwa, ihari zihabwa abana by'umwihariko, abagabo by'umwihariko, ndetse n'abamama by'umwihariko.

Inzu yo kwa muganga, birasa naho ari ububiko bw'imiti, buri bitaro cyangwa ikigonderabuzima kigira ububiko bw'imiti, bwinjirwamo n'umuntu ubyemerewe gusa, abifitiye ububasha ndetse n'ubushobozi, ntago hinjiramo ubonetse wese kandi nawe aba abifitiye uburenganzira.

Icyumba cyagutse kirimo imashini n'intebe zikoreshwa muri serivisi z'ubuvuzi, serivisi z'ubuvuzi ni nyinshi cyane ariko serivisi nk'iyi tuzisanga mu bitaro bikuru, mbese ntabwo tuzisanga hafi yacu cyane, ni byiza ko serivisi na zo zakwegerezwa abaturage.

Iyi ni inzu y'imyitozo ngororamubiri. Irimo ibikoresho bitandukanye, yewe ni ahantu hagari, hashobora kwitabirwa n'abantu benshi. Imyitozo ngororamubiri ni myiza, ni ingenzi ku buzima bwa buri muntu; idufasha kwirinda indwara zishobora gukomoka ku mubyibuho ukabije, zimwe zitandura.

Iguriro ry'imiti riherereye i kanombe, rikorana n'ubwishingizi bwinshi butandukanye abarwayi baba bafite kugira ngo babashe kubona imiti bandikiwe cyangwa batumwe na muganga, ni byiza kugira amaguriro y'imiti menshi cyane kuko bifasha abarwayi n'abarwaza kubona imiti ku gihe.

Muganga yambaye icyumvirizo cy'umutima, ndetse n'umwambaro w'akazi. Yasuye abaturage aho batuye mu giturage. Ari kumwe n'abaturage, biragaragara ko ari kubahugurira ku bintu bitandukanye. Serivisi z'ubuvuzi zitangirwa ahantu henshi hatandukanye. Hari nko kwa muganga hari no mu giturage aho abaturage batuye.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe. Mu Rwanda tugira ibigo nderabuzima bigiye bitandukanye, aho buri murenge uba ufite ikigo nderabuzima cyawo. Ikigo nderabuzima ni cyo tubanzaho mbere yuko tugera ku bitaro bikuru.

Umusore uryamye ku gatanda k'umukara, biragaragara ko ari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri n'abatoza babiri, ni byiza ko dusanga abatoza babihuguriwe babifitiye ububasha n'ubushobozi, bakadufasha gukora imyitozo ngororamubiri aho kuyikoresha twe ubwacu.

Buri muntu wese afite inshingano yo kwita ku buzima bwe kugira ngo bumere neza. Mu kwita ku buzima bwacu dukeneye byinshi bitandukanye. Harimo nk'imyitozo ngororamubiri, indyo yuzuye n'ibindi. Mu ndyo yuzuye dusangamo: ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, n'ibirinda indwara.

Uyu ni umusore ukuze ari mu myitozo ngororamubiri, arimo aragorora amaguru ye ndetse n'amaboko ye, arahuze cyane. Ari kumva imiziki ndetse yewe biranamuryoheye cyane gukora imyitozo ngororamubiri, yabikoze abikunze kandi abishaka.

Mu kibuga cy'umupira hari abantu babiri ndetse n'abandi batagaragara neza inyuma yabo, muri abo bantu babiri bose bambaye hejuru umupira w'ubururu n'amakabutura y'umukara, birasa naho uryamye hasi yagize ikibazo mu kaguru, hanyuma upfukamye akaba ari kumufasha.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, ari kunywera amazi mu icupa ry'ubururu. Ku kaboko kamwe yambaye akantu k'umukara, akandi yambayeho akantu k'umweru. Ari kunywa amazi, biragaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, afite inyota. Nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, tugira inyota.

Ahantu hahuriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo urubyiruko, hari abantu batatu bitwaje udukapu dutukura turimo ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze ku muntu ushobora kuhagirira ikibazo, akenshi aba bantu tubasanga mu muryango wa croix rouge.

Abasore babiri, umwe aricaye, undi araryamye. Uwicaye biragaragara ko ari umutoza w'imyitozo ngororamubiri. Ari gutoza uryamye uko agomba gukora imyitozo ngororamubiri. Yashyize akaguru ke ku rutugu rw'umutoza we kugira ngo kabashe kugororoka.

Umukobwa w'imisatsi myinshi ku mutwe, uri kunywa amazi mu icupa ry'ubururu, ari kumva utuntu mu matwi ye, birasa naho ari mu myitozo ngororamubiri aranyotewe cyane.

Udukoresho twifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hari n'umugozi wifashishwa mu gupima uburebure bw'umuntu, hari imbuto, hari umutobe, hari n'imboga. Ibyo byose ni ibidufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara n'insengero y'umukara, ku kaboko ke yambaye akantu k'umukara, biragaragara ko kamufasha kumenya igihe amaze akora imyitozo ngororamubiri, gukora imyitozo ngororamubiri tugendeye ku gihe na byo ni ibintu byiza cyane.

Uyu ni umumaro wo gukora imyitozo ngororamubiri uhoraho, harimo kongera gutwikwa kw'ibinure mu mubiri, kugabanya umuvuduko w'amaraso, gufasha mu igogora n'indi myinshi itandukanye.

Aba ni abaganga bari mu bitaro bari kuganira n'umuganga mugenzi wabo mu buryo bw'isakazamajwi n'amashusho. Inyuma yabo hari abarwayi baryamye ku bitanda. Ibi birerekana akamaro k'ikoranabuhanga mu buryo bw'ubuvuzi.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, hariho intebe y'umurwayi, hariho icyumvirizo cyumva uko umutima utera ndetse n'uko ibihaha bikora, hari indi mashini yerekana uko umutima utera. Ibi byose bikoreshwa mu gukurikirana ubuzima bw'umurwayi.

Umusore uri kunywa amazi. Kunywa amazi ni byiza kuko amazi afite akamaro kanini mu mubiri wacu. Ni byiza cyane ko buri muntu anywa amazi menshi buri munsi bitagombereye ko abanza kumva inyota.

Umusore uri mu nzu yo kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kwita ku barwayi, kwa muganga tuhasanga ibikoresho byinshi cyane bikoreshwa mu kwita ku barwayi batandukanye, bafite ibibazo bitandukanye.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara ndetse n'isaha ku kaboko, biragaragarako ari mu myitozo ngororamubiri. Aricaye afite icupa ry'amazi ari kunywa. Akenshi dukunze kugira inyota ikabije mu gihe turi gukora imyitozo ngororamubiri. Kuko umubiri wacu uba uri gukoresha amazi ku buryo buri hejuru cyane y'ubusanzwe.

Umukobwa uri kwipfuka ahagana hepfo y'ivi birasa naho yakomeretse, yicaye ahantu bisa naho ari ku gitanda cyo kwa muganga. Dukenera kujya kwa muganga kwivurizayo indwara nyinshi zitandukanye, ariko hari n'abatagombera kujyayo bakivurira mu rugo bakoresheje imiti gakondo.

Umusore wambaye inkweto z'umweru n'ikabutura y'umukara uri mu myitozo ngororamubiri, yafashe ikiganza cye agifatisha amano kugira ngo abashe kugorora ukuguru, ukuboko, ndetse n'imbavu.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'insengeri y'umukara, aryamye ku karago kabugenewe ko gukoreraho imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru, umugongo, ndetse n'amaboko, ni ingenzi kugorora ibyo bice by'umubiri.

Muganga cyangwa umutoza w'imyitozo ngororamubiri, ari kumwe n'umusore wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri, biragaragara ko ari kumutoza ibyo agomba gukora. Ni kenshi tubwirizwa gukora imyitozo ngororamubiri mbere y'igihe, ariko tukabikora byararengeranye, cyangwa ari uko dutangiye gufatwa n'indwara zidakira, nk'umubyibuho ukabije, diyabete, n'izindi.

Umukobwa ukiri muto arimo arakora imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri biba byiza kuyikora mu gitondo ukibyuka nta kindi kintu wari wakora, ni byiza kuyikora kuko idufasha kwirinda ibibazo bitandukanye bishobora kwataka ku mubiri wacu harimo nk'indwara zidakira zikomoka ku mubyibuho ukabije.

Umusore n'umukobwa bari kunywa amazi, buri umwe inyuma y'undi, ni byiza kandi ni ingenzi kunywa amazi, kuko amazi agirira akamaro kanini umubiri wacu, nko mu igogora, ndetse n'ibindi, amazi ndetse agira umumaro ku kugusa neza k'uruhu rwacu.

Umusore wambaye umupira w'umweru ari kunywa amazi mu icupa rya pulasitike rifite umunwa w'ubururu, kunywa amazi ni ingenzi igihe cyose twaba tugenda, twaba twicaye, turi mu kazi, tubyutse, tugiye kuryama, igihe cyose dukeneye amazi mu mubiri wacu.

Ibimera bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi gakondo, ubuvuzi gakondo dukoresha ibimera byinshi bitandukanye, nko mu Rwanda harimo nk'umuravumba, igicuncu, umwenya, kapusine, n'ibindi byinshi.

Icupa ry'ikirahure ribonerana mo imbere harimo umuti w'umuravumba, umuravumba ni igiti gakondo gikoreshwa cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, bigakoreshwa n'abaturage b'icyo gihugu, mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye nk'inkorora, ibicurane n'izindi nyinshi.

Ubwoko bw'imiti itandukanye bigaragara ko yanyujijwe mu nganda. Ariko imyinshi muri yo birasa naho ikomoka ku bimera. Ni byiza ko dukoresha imiti yizewe ifite ubuziranenge. Gukoresha ibimera byonyine twivura bifite ingaruka mu buryo bumwe. Ntitumenya ikigero runaka gikwiye cy'umuti tugomba gufata. Ni yo mpamvu tugomba gukoresha imiti twakuye kwa muganga tukayikoresha mu buryo batubwiye.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu bwijimye, yambaye n'ikarita y'akazi mu ijosi, afashe mu ntoki ibyatsi biragaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame kuri ibyo byatsi afite mu ntoki.

Ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa cyane cyane nko mu kwita ku ruhu n'umubiri wacu muri rusange. Ibikoresho akenshi biva mu kimera cyitwa igikakarubamba. Dusanga ahantu henshi hatandukanye, muri iki gihugu cyacu.

Ubwoko bw'imiti itandukanye iva mu bimera dusanga ku mugabane wa Afurika. Ni umugabane uza ku isonga mu migabane ikunda gukoresha imiti ikomoka ku bimera. Ni myiza cyane kurusha imiti yatunganyijwe mu nganda.

Umugabo ufite icupa rya plastike, ari munzu akoreramo, iruhande rwe mu bwoko bw'ibiti bitandukanye. Biragaragarako ari umuvuzi wa gihanga .Arimo aragenda ashyira buri bwoko bw'ibiti mu icupa ryabwo, inyuma ye hari amacupa menshi agiye arimo ibintu bitandukanye.

Ubwoko bw'ibiti bitandukanye, ibi ni ibiti bikoreshwa mu buvuzi gakondo, bitegurwa mu buryo butandukanye, hari ibibetwa hakavamo ifu, ikaba ariyo ijya ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, hari n'ibanza gutekwa igakurwamo umushongi. Uwo mushongi bakawukoresha, kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Hari ibikoresho byinshi dukoresha byakuwe mu nganda, muri byo harimo ibitabora byangiriza ibidukikije, hari n'ibibora byangiza ibidukikije, ibyiza dukwiye gukoresha ni ibibora bitangiriza ibidukikije ndetse ntibyangirize n'ubuzima bwacu.

Mu ishyamba harimo ubwoko bwinshi bw'ibiti ndetse n'ibimera, tuhasanga ibimera, udusimba duto, ibisimba binini birya ibyo bimera ndetse n'ibisimba binini birya udusimba duto tugenzi twabyo, tuhasanga yewe n'ibimera bikoreshwa mu kuvura.

Ibiti gakondo ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gutegura imiti gakondo. Muri iyo miti gakondo dusanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo umubirizi, igikakarubanda n'ibindi byinshi. Buri giti gifite uburyo gitegurwamo bitewe n'aho kigiye gukoreshwa.

Ikimera kiri hasi ku butaka, gifite indabo, gifite n'amababi, ni ikimera gikoreshwa mubuvuzi gakondo, mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, kigenda gifite izina bitewe n'aho giherereye mu gace cyangwa akarere.

Amacupa ane atatu muri yo afite ibara ry'umweru, irinini muri yo, rirasa n'ikirahure, arimo ibintu bigaragara ko bikomoka ku buki, inzuki nizo ziduha ubuki, tubusanga ahantu nko mu ishyamba, mu muzinga, tubukoresha mu buryo bwinshi butandukanye nko mu kwivura n'ibindi.

Igikakarubamba ni ikimera dusanga mu bidukikije. Tugisanga ahantu henshi ku isi. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda naho turacyihasanga. Iyo kinyujijwe mu nganda gikurwamo ibindi bintu bitandukanye, cyane cyane ibikoreshwa mu kwita ku buzima bw'uruhu.

Ni ibyatsi biri mu ishyamba, ibyatsi ni byiza ku binyabuzima, bifite umumaro munini, nko gutuma hagwa imvura, gutuma hahumura neza, gutuma hagira akayaga, n'ibindi byinshi.

Iki ni igiti kiswe umaravumba. Ni igiti gifite umumaro munini abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Kiboneka ahantu henshi hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, gikoreshwa kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Abanyarwanda bagikoresha mu kwivura indwara mu buryo gakondo. Gitegurwa mu buryo butandukanye, ari ukukivuguta harimo kugitera.

Iki ni igiti. Igiti gitoshye cyane kiri rwagati mu mazu. Ni igiti kizwi ku izina ry'umuravumba, gikoreshwa n'abantu benshi, uburyo bwo kwivura mu buryo bwa gihanga.

Igiti runaka gikoreshwa mu buvuzi gakondo, mu bidukikije dusangamo ibiti by'amoko menshi, hari ibiti bitanga akayaga, hari ibiti bitanga imbuto abantu turya, hari ibiti biduha imbaho ndetse harimo n'ibiti twivurisha nk'igihe twarwaye mbere yo kujya kwa muganga.